Iterambere rigenda risobanurwa mu buryo butandukanye, tugendeye ku buryo bw'imyubakire, iterambere harimo uburyo bwo kongera ibikorwa remezo, harimo n'inganda ,inyubako zisanzwe, zigiye zubatse zigeretse, zigeretse na rimwe cyangwa inshuro zigiye zitandukanye hagakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.